Abarinzi b'irondo bari kuri parade abaturage bo barashungeye. Abo barinzi bambaye bote bahagaze bahuje amaboko bifatishije ku matako bose bambaye utugofero na bote z'umukara.

Mu Mujyi wa Kigali imodoka ya kwasiteri iri kugenda mu muhanda gwa kaburimbo n'izindi modoka harimo toyota, hiligisi n'umumotari ari kugenda mu muhanda gwa kaburimbo atwaye umugenzi.

Umuporisi uri mu muhanda, inyuma ye hariyo imodoka y'ivatiri, i kibisi n'akandi kavatiri n'abamotari bari kugenda inyuma ye, ari kugendera mu muhanda wa kaburimbo.

Aho abapolisi baba, harafunguye ku gipangu, harimo amapave y'isima, hirya bigaragara ko habera kontorore tekiniki z'imodoka n'ibinyabiziga bya moto, hasakaje amabati y'ubururu, harimo andi mamodoka mato y'amavatiri aparitse.

Abapolisi bari ku kosi, bambaye inkweto z'umukara, amapantaro y'ubururu n'udupira tw'ubururu, bakenyeje imikandara y'umweru n'umukara. Abapolisi barinda umutekano w'u Rwanda bakanarinda umutekano wo mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo hari kugendamo abakinnyi bakina umukino w'amagare wo gusiganwa. Hariho umupolisi uhagaze mu muhanda uri guhagarika imodoka ziri kuza, iruhande rw'umuhanda hahagazemo abantu b'ingeri zose.

Abana batoya bamwe bambaye utugofero, abandi ntatwo bambaye. Hari umuntu wambaye agapfukamunwa uri kubereka utuntu bakora. Iruhande rw'aba bana hari abapolisi, inyuma yabo haparitse imodoka ya pandagare, n'imodoka za UN.

Umusirikare wu mu ofisiye ari mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, yambaye ingofero y'icyatsi irimo n'akantu k'umutuku. Ishati yambaye iriho ibirango byinshi akaboko kamwe gafashe mikoro kandi gafashe impapuro arikuvuga ijambo.

Umugore uhagaze yambaye amarinete, yambaye n'umupira w'umukara ari kureba iruhande rw'ibumoso, inyuma ye hari icyapa cyanditseho " Ihuriro ry'Ubumwe n'Ubudaheranwa", ahagaze ku kantu gafite amabara kari mu idarapo ry'igihugu.

Inzu iri kuberamo inama abaturage baricaye n'abayobozi bicaye imbere yabo mu bayobozi bicaye imbere hariho abasirikare, umupolisi, umukuru wa ribu n'abandi baturage nabo bari gutega amatwi.

Inama yajemo abaturage. Abagore n'abagabo baricaye bari kumva, hagati yabo hahagaze umuyobozi, ari kubaha amabwiriza. Ari no kubabwira uko ibintu bimeze bose bamuteze amatwi.

Abaturage bari mu nama bicaye ahantu hamwe, imbere yabo hahagaze umuyobozi uri kubabwira. Abaturage bicaye ku ntebe za pulasitike, zimwe bakunda kwicaraho mu tubari.

Abantu bari mu nama, hagati yabo hari umuyobozi uhagaze uri kuvuga ijambo, abaturage bo baricaye bari kumva ibyo umuyobozi ari kuvuga. Bicaye ku ntebe za pipitire abanyeshuri bigiraho amapirimeri n'amasegonderi.

Igikuyu harimo inka za kinyarwanda bazita Inyambo zifite amahembe arebye hejuru, izo nka zifite ibara ry'umukara ni nziza cyane.

Indoshyo bakoresha bari gutahura ibiryo. Ikozwe mu buryo bw'ikirushe. Ni yo bakundaga gukoresha kera ibirushe by'ibyuma bitari byaza. Ikozwe mu giti nta bwo ari icyuma.

Abakobwa bari kuvuza ingoma bambaye imyenda ya kinyarwanda irimo imikenyero. Bose bari guseka barishimye cyane, bafashe n'imirishyo, ariko uwo hagati ari guseka cyane yakwenkwenutse.

Intore ziri guhamiriza hasi zambaye udushanana tw'umutuku, hejuru zambaye inda, amaboko kamwe gafashe icumu, akandi gafashe ingabo, mu mitwe yabo harimo imigara.

Umupfumu wiziritse agatambaro k'umutuku mu mutwe akandi gatambaro yagashyize ku bitugu k'umutuku arakitwikije, arapfukamye iruhande rwe hari inzu za Kinyarwanda z'ibyatsi. I Musanze naho barahaba aba ngaba bakunda kwitwa ko bakemura ibibazo by'abantu basanzwe nk'uwibwe ibintu akajya kumureba ngo babimugarurire.

Ubukwe aho abagabo batatu basutamye, bose bafashe imiheha bayishinze mu kibindi, bari gukurura umusururu kandi icyo kibindi bagishyizeho n'amakoma.

Abantu ba kera bambaye imyenda imeze nk'imikenyero y'umweru. Umwe ari inyuma y'undi ari kumuzinga imisatsi. Izi nyogosho ubu ngubu ntago zikihaba, kubera ko abenshi basigaye bakuraho imisatsi yabo.

Abagore bari gutonora imineke bagahita bayishyira mu muvure. Iyo mineke bigaragara ko bagiye kuyikoramo umutobe cyangwa urwagwa rwo kugurisha, kuko iyo bagiye kubikora akenshi barayitonoga bagahita bayishyira mu muvure, noneho bakayitegura ikazavamo urwagwa cyangwa umutobe.

Abantu bari gushyingura. Hari Abakuruwaruje, hari abambaye imyenda y'umweru, bamwe bari gucukuza amapiki, abandi bari kureberera.

Ubukwe abakobwa bari kubyina bamanitse amaboko bari guseka barishimye, bambaye imikenyero y'umutuku n'udusengeri tw'umweru muri iyi sare barimo haratatse cyane.

Umuvure bakoresha bari kwenga inzoga y’urwagwa n’umutobe. Hahagazemo umuntu uri kwenga urwagwa, ari gukoresha ibirenge. Iruhande rwe hariho inshishi n’amakoma, n’abandi bari kumureba.

Intore ziri guhamiriza, zimwe zifashe amacumu mu ntoki, akandi kaboko gafashe ingabo, zambaye imigara, inyuma yazo hariho amazu ya Kinyarwanda, n'umukobwa uri kubareba.

Abakobwa bari kubyina imbyino za gakondo abandi bagabo bari ku ruhande bari kubakomera amashi abo bakobwa bari kwikaraga bari gukaraga amaboko cane cane bambaye imikenyero z'ubururu n'udusengeri tw'umweru n'utundi tuntu twu turi mu mutwe biteze mu mitwe zabo.

Agacuma karimo urwagwa cyangwa umusururu, wabize, watangiye no kumeneka uzana urufuro, ariko nta museke urimo. Aka gacuma ni ko kera bakundaga gukoresha.

Umuvure basutsemo umusururu, abagabo, abasaza n'abagore, bose barunamye, muri uwo muvure, basize iminwa ku miheha, bari gukurura imisururu.

Inka bita inyambo abaturage barazishungeye inyuma yabo hari ishyamba ry'ibiti n'inzu z'ibyatsi za kera izo nka zifite amahembe maremare cyane yigoronzoye izo nka zisa n'umukara.

Inkongoro zitandukanye harimo inini n'intoya, igisabo bakoresha bari gucunda amata birambitse ku karago, ibi bikoresho byakoreshwaga kera ubungubu bisigaye mu muco nyarwanda ariko ntabwo tugikunda kubikoresha gusa mu nzu ndangamurage bibamo.

Intore ziri guhamiriza imbere hari umugabo, inyuma ye hari utwana twambaye ubusa hejuru twiteze n'imigara mu mitwe yatwo n'uwo mugabo nawe yiteze umugara.

Mu isoko，aho bacururiza ibintu byo mu nzu， akadobo k'icyatsi bakarunzemo imyuko myinshi cyane， iyi myuko， bayifashisha bari guteka ubugari， bashigisha igikoma，no guteka kawunga， hirya hamanitse n'inkoko.

Umutiba wa kinyarwanda, aho abantu benshi bakundaga guhunikamo imyaka. Ubu ngubu iyo mitiba yaracitse. Yabaga ikoze mu migano, ariko ubu nta bwo wapfa kuwubona kubera ko abantu basigaye barahinga bagahita bagurisha mu masoko, cyangwa bakaba barubatse ibigega by'amazu mu mbaho.

Inka nyinshi z'inyambo zishoreranye ziri mu rwuri, ahari ibyatsi byiza cyane, ziri kugenda mu muhanda wa raterite w'ibitaka, utari uwa kaburimbo.

Imivure ibaje mu biti irambitse ku birago, iyo mivure rero bayikoresha mu bintu byinshi bitandukanye ,akenshi na kenshi bayikoreramo urwagwa cyangwa umutobe.

Abantu babiri n'igiti hagati yabo ico giti umwe uhagaze wunamye ari kugicuriraho undi wicaye we ari kureba ibyo ari gukora.

Umukecuru ateruye agaseke, ayandi maboko afashe ku mifuniko y'uduseke, iruhande rwe hari undi mugore na we wagira ngo ari kuboha uduseke, inyuma y'uwo mukecuru hariho ifoto iri guhinguka, n'umusaraba uri guhinguka ukoze mu giti.

Umusaza uri munzu yicaye ku birago, yambaye imyenda y'umukara ya kositimu, mu imbere yambayemo agatisheti kumweru, yambaye n'ingofero y'abasaza. Hirya hari intebe nazo zimeze nkaho ari za zindi bakora mu migano.

Umwana uri gucuranga iningiri akaboko kamwe gafashe iningiri akandi gafashe uduti ari gucurangisha. Yambaye agapfukanwa k'umukara n'umupira w'umutuku.

Abakobwa bari kuza bambaye udukanzu. Umwe yambaye agakanzu k'umuhondo, uri inyuma yambaye agakanzu k'umweru. Bose bikoreye inkono za kinyarwanda.

Abagabo batatu barapfukamye, bari mu muvure, bigaragara ko bari gukora urwaga cyangwa umutobe, hagati yabo hariho umuzungu wambaye ingofero, abandi bo ni abirabura, undi we arabyibushye afite akaboko kanini.

Umukecuru uri kugosora ingano, yakenyeye igitenge yiteze n'ikindi gitambaro mu mutwe, ari kwifashisha intara, ingano ze zagiye mu kirere nizo ari kugosora.

Inzu ya kinyarwanda imbere yayo hariho inka y'inyambo, ifite amahembe maremare yigoronzoye, iyo nzu ni iy'ibyatsi, ifite akaryango gato, abantu banyuramo bagiye kureba ibijyanye n'umuco wa kinyarwanda.

Amasaka barunze ahantu hamwe bayashyize mu bintu bimeze nk'amabase, ni yayandi atari umutuku cyane afite ibara rijya gusa n'umweru, aya ni meza cyane araryoha kuberako bayabeteshamo igikoma.

Isekuru irashaje. Mu muryango ho harimo umuntu uhagaze. isekuru nta muhini urimo, ariko iyi ngiyi ni iya kera bayikoreshaga basekura isombe cyangwa n'ibindi.

Umusaza uri kuririmba afashe inanga ari gukanda imirya agacuranga indirimbo, ibi ngibi byabagaho kera ubu ngubu ntabwo tugikunda kubona abantu bari gucuranga izi izi nanga. Uyu musaza yiteze akantu mu mutwe yambaye n'imyenda ya kera.

Intore zambaye imigara, amaboko yabo afashe ingabo n'amacumu, zirimo abasaza barimo n'abatari abasaza bambaye inda hejuru n'imyenda y'intore, inyuma yazo hariho uduti turi guhinguka.

Inkono ya kinyarwanda ibumbye mu ibumba irambitse ku nkoko. Aka gakono bagatekagamo ibiryo abakecuru ba kera cyangwa bagasukamo amazi.

Intebe ya kinyarwanda irambitse ku kirago. Iyi ntebe yakundaga gukoreshwa kera, ikozwe mu giti. Ubungubu ntabwo zigikunda kugaragara kubera ko haje iterambere, bahinduye ubundi bwoko bw'intebe.

Ibikoresho bya kinyarwanda bakoreshaga mu muco wa kinyarwanda, hejuru hara hariho ibisabo, hasi hariho inkongoro n'unduseke birambitse ahantu hamwe.

Inzu irimo ibishushanyo byinshi cane， hahagazemo umuntu uri kwerekana ari gusobanura ifoto，iriho umukobwa， iruhande rwe hariho iyindi foto iriho imparage， ibi bishushanyo babitakaga mu nzu.

Intore ziri kubyina indirimbo za Kinyarwanda harimo abagabo n'abagore. Abagabo bari guhamiriza, abagore bagatamba. Inyuma yabo hariho amazu ya kera y'ibyatsi bya Kinyarwanda ahantu bari kubyinira harimo ibitaka.

Abakobwa bari kubyina indirimbo za gakondo ,ibi ngibi byabagaho mu muco wa Kinyarwanda kuva kera. Bambaye urunigi n'imyenda bakoresha bari kubyina. Ibi ngibi rero ubu ntabwo bigikunda kubaho, ariko mu mashuri hamwe na hamwe birahaba. Ntabwo urubyiruko rukibikunda nkuko rwabikoraga mbere.

Isekuru bashyizemo ibintu bari kubisekura bifashishije umuhini. Umuntu uri gusekura arahagaze yambaye bote n'ipantaro y'umukara.

Umugore uri kugosora ingano yifashishije intara, yambaye agashati, akagofero k'umutuku, inyuma ye hari umuntu uri guhinguka, iruhande rwe hari umufuka ari gusukamo ingano arangije gukosora.

imIbiryo bya kinyarwanda, biri ku isahane, harimo ibihaza, ibidodoki, ibishyimbo ntabwo bikaranze, biraryoha cyane, ibi ngibi bitera imbaraga.

Umusaza ugendera ku mbago afite imbago ebyiri arahagaze yiteze ingofero yambaye n'ikoti rya kositimu ryacuyutse.

Umuhungu n'umukobwa bahagaze bari kugosora. Umuhungu yambaye agasengeri, umukobwa we yambaye agapira. Umuhungu yambaye n'ipantaro y'umweru naho umukobwa we yambaye ipantaro y'umukara. Bose nta nkweto bambaye, bahagaze ku ihema risutseho ibyo bari kugosora.

Ibikoresho bya kinyarwanda bakoreshaga kera, hari ibicuma birimo imiseke, hari n'udukonzo bakoresha mu gihe bari gutera imbuto, hari n'uduseke. Ibikoresho bakoreshaga kera, ariko ubungubu ntabwo tugikunda kubibona, kubera ko umuco usa n'aho watakaye.

Umugore wishimye cane, yamanitse akaboko, yambaye umupira gw'icyatsi n'agandi mabara givanzemo, yikoreye inkono itatu zigerekeranye, hagati y'izo nkono, imwe n'iyindi, harimo utwatsi two kugira ngo zitamucika zikagwa hasi.

Umugore wishimye wambaye ingofero yubudodo, yambaye agapira k'umutuku, ari guseka. Yikoreye n'isuka ku rutugu, afite n'inyinya.

Umugore uri kubyina yikoreye igisero yirengeye, yambaye ijipo y'umukara n'agasengeri k'umuhondo, ari guseka arishimye cyane.

Umugabo arahagaze yambaye ikabutura imeze nk'iya gisirikari, yambaye n'agasengeri. Mu ijosi rye harimo urunigi, afashe iningiri ari gucuranga.

Umugabo uri kubyina imbyino gakondo yambaye imkenyero ifite iba ry'umweru n'ubururu, uwo mugabo arishimye cyane yamanitse amaboko kandi ari guseka.

Ifoto ya kera hariho abana basigatiye utundi duhinja ,bambaye ibirenge, uwo hagati nta musatsi afite yarawiyogoshesheje ,akandi kana kari ku ruhande ko bagahetse ku bitugu.

Abagabo bari guhamiriza ni intore. Bambaye ubusa hejuru, biteze n'imigara bari kuyizunguza. Mu maboko yabo afashe ingabo, ukundi koboko gufashe icumu. Izi mbyino ni iza kinyarwanda, bazikoreshaga kera cyane.

Fotokopiyeze ni igikoresho bakoresha muri papeteri, cyifashishwa mu gupuretinga impapuro, isa n'umukara inyuma yayo hari umugozi bacomeka muri purize.

Agakoresho bakoresha mu mumashanyarazi. Barakesitara, gasa n'umweru, gafite udupfumure tubiri hagati. Aka ngaka kajyamo umuriro, iyo ucometsemo telefone, iyihita yinjiza umuriro.

Agakoresho bakoresha mu mashanyarazi, iyi bayita anterebuteri ,bayikoresha bari gucana itara, iyo ukanzeho umuriro uhita ugera mu itara rikaka .Iyi anteributeri ifite amabara y'umweru n'umutuku, iyi ngiyi ,aha ngaha h'umutuku hatsa agatara iyo umuriro uhari.

Ibiti bitandukanye, ipoto ririho itara, ariko iryo tara ntabwo riri kwaka, ibyo biti rero na byo bifite amashami menshi, gusa ntabwo bibyibushye cyane.

Igikoresho cyitwa ipensi, i musanze turagikoreshaga cane akenshi na kenshi tugikoresha iyo turigukata utugozi duto dukomeye cangwa urutsinga, iyo turikwesitara amazu.

Akayira gatoya kerekeza ku mazu ashaje ari hirya. Hari n'igiti cy'avoka, hirya hari guhinguka ibicu n'udusozi dutoya, tutari imisozi minini cyane.

Ahantu hameze nkahari ubutayu harimo uduti dukeya, ibyatsi bigaragara nkaho byumye cyangwa bikaba byarashize, hanyuzemo umuhanda wa kaburimbo ukase ikoni uriho utuntu twa borodire kuruhande.

Urusengero rusakaje amabati y'ubururu, hejuru yarwo hari umusaraba, urusengero rwubakishije amatafari ahiye, rusa neza cyane, uru rusengero hariho bya bintu bigaragaza ko bashyushya amazi kandi umuryango warwo urafunguye.

Urusengero rw'abaporoso, ruri mu karere ka Musanze, rurazitiye, amadirishya yarwo arimo utubara tw'umweru, rufite amatafari adahomye, rusakajwe amabati y'ubururu, ruri mu gipangu kiriho utugiriyaje n'udutafari, imbere hariyo umuntu wambaye ijipo isa n'umutuku.

Igipangu kijitijwe amagiriyaje, mo imbere mu gipangu harimo amazu yubakishijwe amatafari ahiye. Izo giriyaje zifashe mu nkingi z'amatafari ya reba, hirya hari gitari kirimo ibiti birebire.

Urusengero rusa naho ari urwa kera, hejuru yarwo hari umusaraba. Iruhande yarwo hari ibiti, rurazitiye nubwo ruzitijwe uruzitiro rw'amagiriyaje. Kuri urwo ruzitiro hariho amatara hejuru, urwo rusengero rwubakije amatafari ahiye.

Umuhanda wa kaburimbo haciyemo akarongo k' wumuhondo hagati, hirya hari kugaragara inzu isakaye nkaho ari sale. Ni ni cyane ifite amabati y'umutuku, ikaba isize amarangi y'umweru ku bikuta.

Akarere ka nyabihu, inyubako yako iri kugaragara ,mumarembo y'ako karere harafunguye, utari winjira hariho akazu gahari k'umuzamu kubabakishijwe amatafari, iruhande rwaho hariho ibyapa byinshi bitandukanye, noneho kegereye umuhanda wa kaburimbo.

Inzu y'urusengero, imiryango zago zose zirafunze n'amadirisha, ifite umusaraba hejuru, iruhande gwaho bigaragara ko batari bahakora neza ngo bahashire amapave, haracarimo ibitaka, purente z'iyo nzu asize irangi jy'umukara.

Mu nzu muri salo hari umuryango ufunze winjiye mu cyumba, uwo muryango ufite urugi rw'urubaho rwa rundi rwiza rufite n'iserire ku rurwo rugi hariho ifoto y'umuntu biragaragara ko uwo muryango ari ibiro.

Abantu bambaye utujire hari n'umudaso. Abo bantu bambaye utujire bambaye n'ingofero zimeze nk'iz'abafundi. Utwo tujire bambaye two dusa n'utwo bakoresha abari kubaja cyangwa abakorerabushake, rero harimo abagore n'abagabo n'abandi bambaye imyenda yabo ariko bambaye izo ngofero.

Urusengero bigaragara ko rushaje ni ugwa kera, imbere y'ugwo rusengero ku miryango ibiri, hari ama esikariye bazamukiragaho bagiye gusenga muri ugwo rusengero.

Urusengero basengeramo rwubakishije amatafari. Rusakaje amabati yayandi y'umweru ya kera. Umuryango warwo usa n'icyatsi. Ariko uracyafunze. uru rusengero hirya yarwo hariho agasozi, hariho n'ibiti.

Urusengero barusengeramo rurafunze imiryango yose, bigaragara ko atari umunsi wo gusenga. Rusakaje amabati, rwubakishije amatafari ariko ntabwo baruhomye rwose n'isima.

Urusengero rwa adeperi rwa nyakabanda rwubakishije amatafari ahiye, ntabwo ahomye, rusakaje amabati ni rwiza cyane imiryango yarwo zirafunze.

Umudugudu w'Icyitegererezo, bawutuzamo abantu batandukanye bafite ubushobozi buke, cyangwa abo amazi yasenyeye, cyangwa byahuye n'ibiza. Uwo mudugudu rero amazu arimo bayasakaje amabati y'umutuku, hari utwana twicaye, hari n'abandi bantu bari kuwutemberamo..

Urusengero rwa paruwasi ya Muyunzwe rwubakishije amatafari ahiye, inzugi za rwo ziriho imisaraba. N'aho binjirira hamanitse umusaraba, hirya y'aho hariho ishusho rya Bikiramariya yubakiye mu kazu, yanditseho yubile y'imyaka ijana.

Icyumba kirimo Kompiyuta nyinshi, kirimo abantu batandukanye b'abanyeshuri, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ya Nili, bicaye ku dutebe bari kuganira, mwarimu ari kubakoresha imyitozo, ni abanyeshuri bari kwiga bambaye n'udupfukamunwa bose.

Umuhanda bari gukora hari kugendamo ikimodoka kiri imbere kiri gucuciramo amazi, inyuma hari cya kimashini kiri gutsindagira hari kugenda n'undi muntu uri kureba uko kiri kugenda kiri gutsindagira umuhanda icyo kimashini gitwawe n'umu opereta.

Amazu y'amaetaje yubatse mu Kinigi habamo abantu batishoboye, abo bimuye babashyira mu midugudu y'icyitegererezo, ni meza cyane, iruhande rwa ho hariho n'abantu bari kuhagenda, n'abaturage batuye muri uwo mudugudu.

Inzu ifite utuntu tw'umwenge, n'amadirishya arimo ibirahuri by'amabara, isakaje amabati, iruhande rwayo hari ibiti, n'igiti cya avoka, ku iyo nzu hariho akantu kameze nk'akabagamo umurindankuba kamanitse hejuru gafashe ku gikuta k'iyo nzu ni nini cyane wagira ngo n'urusengero.

Aho imihanda ya kaburimbo ihuriye haciyemo uturongo tw'imihondo ducagaguye, iruhande rwaho hariho amazu atuyemo abantu, hashinze n'igipoto cy'amashanyarazi. Hirya hariho utuyira tw'abanyamaguru duciye mu mihanda ya kaburimbo.

Gereza ya Huye kuri geti harafunze, iyi gereza niyo bafungiramo abantu bakoze ibyaha, ni Musanze tugira gereza, kuriyi gereza rero akaryango gatoya karafunguye, naho umuryango munini urafunze.

Mu murenge gwa busogo hari igipangu kizitiye, inyuma y'igipangu hari ibiti bikoze i ishamba, munsi y'ibiti harimo urusengero rw'abadiva.

Ikibeho aho hari ingoro aho Bikiramariya yabonekeye abakobwa batatu. Hari abantu benshi baje gusenga, baje kumva misa. Urusengero rusakajwe amabati y'ubururu, hari n'abakirisitu benshi baje gusenga, hari na korari yaje kuririmba misa.

Inzu isakajwe amabati yumweru igipangu cyayo gisize amarangi y'icyatsi, gishushanyijeho ibishushanyo byinshi: Inka n'abana. Iyi nzu bayigize ishuri ry'abana b'incuke. Inyuma y'igipangu hariho amapave niyo ashashe hasi.

Abunzi n'abaturage bari mu nama, imbere yabo hahagaze umusaza wambaye ipantaro y'itisi n'agashati yafunze, yifashe inyuma amaboko ye yayashize inyuma, abakecuru bari hirya bicaye ku ntebe za pipitere n'aho abandi baturage bo bicaye hasi ,abandi barahagaze.

Abantu bahagaze bari guseka cyane bishimye, harimo abagore babiri, umugabo n'umwana, umugore umwe afashe agaseke, umugabo na we afite akantu kaboshye nk'agaseke, bose bari guseka barishimye inyuma yabo hariho icyapa.

Abaturage bahagaze ahantu hamwe, ntabwo begeranye kubera ko hari hari mu cyorezo cya korona. Bose bambaye udupfukamunwa. Imbere hariho n'umugore usigatiye umwana, ariko bose ntabwo begeranye.

Inteko y'abaturage umuyobozi abahagazemo hagati bamuteze amatwi, abandi ba bayobozi bicaye ku ntebe z'icatsi umuyobozi we arahagaze abandi baturage bo bicaye hasi.

Imodoka ya kwasiteri yanditseho sikuru basi, mu muryango wayo hariho umugabo uzanye umwana hicayemo n'umushoferi kuri vola, witeguye kuyitwara. Iyi modoka itwara abana batoya biga muri materineri.

Mu isantere harimo abantu b'ingeri zose ahangaha haparitse abanyonzi; umunyonzi umwe yambaye inkweto za siripera za umoja, afite n'igare ririho umusego w'umutuku, yambaye n'akagofero.

Gare haparitsemo amamodoka menshi, harimo amakwasiteri aparitse hirya hariho agasozi kariho amazu menshi cyane, hariho na etaje iri guhinguka n'umugabo wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ubururu ukureba inyuma.

Moto nyinshi zihagaze n'abandi bagenzi bari gutega moto, abamotari batwaye za moto z'amashanyarazi bambaye amakasike y'ubururu abagenzi bari kubatega bari kuganira.

Akamodoka k'agahirigisi gafite amabara y'umweru kari kugenda mu muhanda, kikoreye icyayi basaruye bakagishyira mu mifuka, ariko kiri kugenda kiri kugaragara, ntabwo gikwiranye n'aka kamodoka kuko uri kubona ko kikoreye ibintu byinshi.

Aho bari gukora umuhanda imodoka zahoho zazindi nini zitwara imicanga zifite amabara y'umutuku ziri kuhamena imicanga, izi modoka zitwara ibintu byinshi iruhande rwazo hari umugabo uri kuzitegera.

Parikingi irimo amamodoka menshi yayandi manini, hahagazemo umugabo wambaye ikoboyi y'ubururu, n'agapfukamunwa yakamanuye munsi y'akarevuro. Hari ibimodoka byanditseho amani, na bya benzi ariko bya akitora.

Ku kibuga cy'indege, hariho abantu bambaye imyenda y'icyatsi, bambaye n'udupfukamunwa, inyuma yabo hariyo indege ya boyingi ya Rwanda eya.

Umuhanda gwa Leta, haparitsemo imodoka zitandukanye wagira ngo zipakiye ibirayi, izi modoka zitandukanye itatu zose ni iza dayihatsu. Zitwikirijwe n'amahema y'ubururu.

Abanyonzi b'amagare bambaye amajire y'icyatsi n'utubara tw'umuhondo, amagare bafite ariho imisego, iruhande rwabo hahagaze abandi bantu, umuhungu uhagaze yambaye umupira w'amaboko w'umweru.

Imodoka y'ifuso iparitse ipakiye amakositara, hari umusore uyihagaze iruhande uyifasheho. Imbere yayo hari indi nayo y'igikoso isa n'umweru, iyo iri inyuma ifite ibara rya gisirikari. Hejuru yayo makositara, hari abakarani bicaye hejuru yayo.

Ubwato buri kugenda hejuru y'amazi bukoze mu giti, harimo abantu batandukanye, bamwe ni abazungu, abandi ni ibikara. Ni abirabura, ubwo bwato busakaje agahema k'umweru, bukoze no mu giti.

Imodoka ya tagisi iri gusohoka mu marembo ga gare. Umunyonzi uri mumuhanda uri kugenda ku igare n'abantu batandukanye bari baje muri gare n'abari hanze ya gare.

Ku kibuga cy'indege haparitse indege ya Rwandeya. Iruhande rwayo hariho umuntu ukora ku kibuga cy'indege. Yambaye akajire iruhande rw'iyo ndege, aho ikimodoka cy'igifuso giparitse gifite amabara cyanditseho Rwandeya.

Indege y'u Rwanda yitwa Rwandeya yaparitse ihagarara mu kibuga cyayo none bari gukuramo imizigo ivuye hanze, banamanuye na esikariye abantu baramanukiraho bari kuva mu ndege bari kujya hasi.

Imodoka ya Dina iri mu bwoko bwa dayihatsu ,ifite amabara y'ubururu, hejuru yayo harambitse ihema ry'ubururu ,kuri iyo modoka bapakiyemo bya wotameloni, umuntu uri hejuru uri kuzipakira yambaye ipantaro y'umukara ,iruhande rw'iyo modoka ya dayihatsu haparitse akandi akavatiri.

Muri gare haparitsemo imodoka nyinshi z'ama kwasiteri ya za vorukano ,harimo n'abantu benshi baje gutega abandi bari kubereka aho barakatishiriza amatike, inyuma hari guhinguka ibyapa byinshi bya....

Indege ya Rwandeya ni iya Boyingi, ifite amabara y'umweru n'ubururu, iri kuzamuka mu kirere, itwara abantu benshi cyane, ikabakura mu Rwanda ikabajyana mu mahanga.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rw'uwo muhanda mu kayira k'abanyamaguru haparitsemo moto ziri kurebana, zifite amabara y'umutuku, amapine y'umukara. Izi moto zitwara abagenzi, zikabageza aho bashaka kujya batwawe n'umumotari.

Aho bari gukora umuhanda, haracyari ibitaka bidatsindagiye n'ibimashini biri gukora umuhanda; harimo ikimashini cya Kateripilari n’ikimodoka cy’umutuku cya Howo gitwara ibicanga n’ibitaka.

Umuhanda w'ibitaka ,hirya hariho akazu bacuruzagamo ama inite ka emutiyeni ,muri uwo muhanda hari kugendamo umugore n'abagabo bicaye ku magare .Uwo mugore atwaye inkoko.

Mu muhanda wa kaburimbo hari kugendamo umumotari wambaye kasike y'icyatsi, hirya ye hariho amazu meza cyane kandi hariho na jaride isa neza, kandi kuri uwo muhanda wa kaburimbo, hariho borune z'umweru n'umukara.

Muri sitade aho imodoka ya Volukano yaje gucyura abanyeshuri, bari kwinjira bahetse ibikapu, abandi babifashe mu ntoki, abandi bicaye muri sitade, baracyategereje imodoka.

Imodoka nyinshi ziparitse ahantu hamwe, ni imodoka za Ritiko zifite amabara: y'umukara ,umweru, icyatsi n'amatara imbere, ku ruhande ,hejuru.

Umuhanda wa latelite utari uwa kaburimbo, hari kugendamo ikimodoka cy'igifuso gitwaye abantu batandukanye, muri uwo muhanda hahagazemo umukobwa wikoreye n'umunyonzi uri kureba inyuma wicaye ku igare.

Gare aho abagenzi bahurira abagenda n'abaza. Haparitsemo imodoka zitandukanye: amabisi, amatoyota, n'amavatiri. Harimo n'abantu benshi baje gutega, n'abavuye mu zindi modoka mu bice bitandukanye.

Umuhanda munini wa kaburimbo hari kugendamo ikimodoka cy'igikamyo gicanye amatara, gifite kontineri y'ubururu. Iruhande rwacyo hariho umupolisi uri kukiyobora afashe n'imbunda.

Muri gare haparitse imodoka zitandukanye, harimo ivatiri y'umukara, harimo abantu bari kugenda mu byerekezo bitandukanye, umugore wambaye agasengeri k'umukara ahetse agasakoshi ku rutugu.

Abagabo babiri bari gukina umukino gwa tenisi，umwe yambaye ikabutura y'ubururu undi yambaye ikabutura y'umukara. Tenisi i Musanze naho turayigiraga，abashaka bajaga kuyikina ni nziza cane.

Mu kibuga cya hendiboro, aho umukinnyi umwe atsinze igitego, umunyezamu yamanitse amaguru n'amaboko, yambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umuhondo. Izamu bari gutsindamo ririmo inshundura.

Imodoka y'ivatiri bakoresha bari gukina umukino wo gusiganwa, iranduye iri kugenda mu muhanda utari uwa kaburimbo, yuzuye ibyondo, imbere yaho hariho parishoke, hirya hahagaze umugore.

Abakinnyi bari gukina umukino wa basiketi. Ni abakobwa umwe akinira ikipe y'u Rwanda undi ni umuzungu yambaye masike mu maso ye. Aho bari gukinira hari abafana benshi bari muri sitade baje kureba umupira.

Abakinnyi bari gukina umukino w'amaboko wa volebolo ikipe imwe yambaye imyenda z'umutuku n'umukara, undi yambaye iz'umuhondo n'umukara bari muri sitade, abafana baje kubashungera bari no kubafana.

Intore ziri guhamiriza zambaye neza, ziri guhamiriza ahantu muri sitade aho hari abafana baje kuzireba, bari kureba uko ziri kubyina zirishimye cyane zanezerewe kandi zizi no kuririmba.

Abantu bari ahantu hamwe bafashe ku kabandarore, harimo abazungu n'abirabura, inyuma yabo hari icyapa cyansitseho dirimu Afurika. Bose bahagaze mu kibuga cy'umupira w'amaguru.

Ikibuga cya Basikete harimo ikipe bari guhemba yatwaye igikombe, bari guturitsa na za Shampanye, abafana bo bicaye muri sitade bari gufana, bafite n'amaterefone yabo bari gukamera.

Abakinnyi bari gukina umukino wo gusiganwa ku magare, iruhande rw'umuhanda hariho abafana bashungeye, bo bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo w'umukara, hirya hariho akazu gasakaye.

Pisine bogeramo yubatse nk'akagega aho bazamukira ni akego k'umweru , ihinzeho ibiti ku ruhande byiza by'indabo, iruhande rwayo hari pasuparumu niheza cyane.

Abakinnyi babiri bakina umukino w'amagare, bicaye ku magare ya siporo, bari gukina umukino. Abafana bo barashungeye ku ruhande ,uwo muhanda wa kaburimbo ntabwo uringaniye, umeze nk'aho urimo utuntu tw'udusozi.

Inyanja nini irimo amazi, iruhande rwaho hari ikirwa, hegeranye n'agapisine gahari kubatswe mu biti, iruhande rw'ako gapisine hateguye udukoresho twifashishwa mu kurya, harimo n'utuntu tumeze nk'udukombe.

Ikibuga bakiniramo umukino wa handiboru, bigaragara ko ari ikibuga cyiza. Harimo izamu risize amabara y'umutuku n'umweru, abakinnyi bari mukibuga bambaye imyenda zitandukanye. Ikipe imwe yambaye imyenda z'umukara n'umweru, iyindi yambaye andi mabara handiboru bayikinisha intoki.

Mu kibuga hari kubera umukino wa Voleboro, ikipe imwe yambaye imyenda y'umuhondo, umwe yagiye gufunga ikiro, undi ari gukubita ikiro, abatoza bo bicaye inyuma y'ikibuga.

Umukinnyi wakinaga umukino wo kwiruka, afite amatako abyibushye cyane ni munini, imisatsi ye yagiye inyuma bigaragara ko ameze nk'ugiye kugwa, ariko ntabwo ari byo ashobora kuba ari ibyishimo......

Abakinnyi bakina umukino wo kwiruka, bambaye udukabutura duto n'amasengeri. Imbere mu gituza hariho imibare ibaranga, bigaragara ko bari gukinira muri sitade y'u Rwanda, kuko intebe zirimo zisa n'umuhondo n'icyatsi.

Abakinnyi bari gukina umupira w'amaguru muri sitade, ikipe imwe ni iya Reyo Siporo yambaye imyenda y'ubururu, mu gituza handitseho Sikoro, bari gukinira ku kibuga cya Mukura mu Karere ka Huye.

Ikibuga cya futubolo hari umwana uri gukora siporo ari kuzenguruka kuhande rw'ikibuga ntabwo ari kugendera mu kibuga neza ,yambaye inkweto za supuresi, agakabutura k'icyatsi n'agapira kandi k'aka jezi.

Abakinnyi bakina umukino w'amagare, bari kugenda mumuhanda. Inyuma yabo hariho ibitoki ni mumubande, hirya cyane hari udusozi turi guhinguka. Aba bakinnyi bamwe bambaye imyenda iriho ibirango by'u Rwanda.

Sitade Amahoro ni ikibuga bakinaraho umupira w'amaguru, hagakinirwaho abari gukina amarushanwa yo kwirukanka, hakanakirirwa abantu bakomeye cyane cyane nk'ibiganiro bya perezida wa repubulika. Iyi sitade ikinirwaho n'umukino wa reyo siporo na aperi refuse.

Abakinnyi bari gukina umukino wa hendi boro umugaridiye yambaye umupira w'amaboko maremare usa n'icyatsi inimero ni rimwe mu mugongo. Yambaye n'ipantaro y'umukara naho ugiye kumutsinda igitego we yambaye imyenda y'ubururu.

Muri petisitade aho ikipe y'u Rwanda ikinira, ikipe y'u Rwanda iri mu kibuga iri kwitegura gukina umukino, muri icyo kibuga harimo file itambitse hagati mu kibuga, umutoza nawe ari kwereka abakinnyi ibyo bari gukora.

Ibikoresho bakoresha bari gukina umukino wa tenisi, hari agatenesi, n'akandi gakoresho bafata mu ntoki, bakubitisha bari gukina umukino wa tenisi. Babirambitse hasi mu kibuga.

Muri sitade hari kuberamo umukino wa Basikete, abafana bo bari kureba umupira, bamwe baricaye, abandi bafana bo barahagaze, ikipe imwe yambaye imyenda y'umutuku, indi yambaye amajezi arimo umweru.

Umukinnyi w'umukino wa hendiboro afashe akaboko kamwe, agiye gushota mu izamu, yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'icyatsi wanditseho nomero makumyabiri na kabiri.

Sitade bakinaramo umupira w'amaguru， harimo amakipe ari mu kibuga. Ikipe imwe yambaye imyenda y'umukara， abandi bakinnyi bambaye imyenda y'ubururu，handitwemo sikoro mu gituza, inyuma y'abo bakinnyi， hariho amazamu batsindamo ibitego.

Abakobwa bari gukina umukino wa basiketi, umwe yambaye imyenda z'umukara n'umweru, undi yambaye imyenda y'icyatsi. Abafana bari kubareba na bo bicaye barishimisha.

Abantu bari gukina umukino wo koga, bari kogera muri pisine, abantu barabashungeye bari kureba uko bari gukina uwo mukino, harimo umugabo wambaye utwenda tw'umutuku, undi yambara utw'ubururu.

Abakinnyi bari gukina umukino wa basiketi, umwe yambaye ubururu n'umweru, undi yambaye umweru n'utundi tubara tw'umuhondo, uwambaye ubururu agiye gutsinda muri panye, yambaye na nimero icumi.

Muri karitsiye, har'umuhanda unyuze hagati y'amazu menshi cyane, ayo mazu yose yubatse mu bipangu, hariho ibitoki bihinze iruhande rwayo mazu.

Umuhanda w'ibitaka wa raterite ni mutoya, nta bwo wacamo imodoka yisanzuye, hari kugendamo umuntu, iruhande rw'uwo muhanda hariho ibiti bihinze iruhande, hirya hariyo n'amazu abantu batuyemo.